Umugabo wambaye agapira karimo ibara ry'ubururu, ipantaro y'umukara, uhetse ipompo, aho ari kwifashisha atera imyaka ye y'ibigori umuti, abirinda kuba byapfa bitewe n'udukoko dushobora kubyica.

Umugore wambaye agapira k'umweru yiteze igitambaro mu mutwe, ahetse ipompo y'ubururu aho arimo aratera ibihingwa bye by'ibigori umuti kugira ngo bitaba byapfa cyangwa se bikaribwa n'udukoko.

Umugabo wambaye igisarubeti k'icyatsi n'uturindantoki tw'umutuku, yambaye yikwije kubera ko ari gutera umuti ibihingwa, uwo muti ukaba ushobora kumugiraho ingaruka mu gihe uguye ku mubiri we.

Itsinda ry'abantu bahagaze hamwe aho bari kuvanga imiti itandukanye kugira ngo bayishyire mu mapompo maze batere ibihingwa byabo bahinze mu gishanga bica udukoko dutandukanye dushobora kubirya.

Umugore w'umuhinzi wambaye ingofero y'urubaraza aho afite akantu kari gusohora umuti mwinshi cyane, awutera mu bihingwa bye yica udukoko dushobora kubirya.

Umugabo wambaye agapira k'umuhondo n'agapfukamunwa n'ipantaro y'umukara, ahetse ipompo y'ubururu aho arimo arayikoresha atera umuti igihingwa cy'umuceri, giteye ahantu mu gishanga.

Aba ni abagabo babiri bahetse ibintu mu mugongo birimo umuti, uwo muti bakaba bari kuwutera umuceri uhinze ahantu hanini cyane kugira ngo bice udukoko dushobora kuwurya.

Umugore wambaye agashati k'umutuku ndetse n'igitenge, ahetse ipompo irimo umuti aho ari gutera ibigori bye kugira ngo yice udukoko n'ibindi.

Umugabo wambaye agapira k'umutuku n'ipantaro y'umukara, aho ahetse ipompo iri mu mabara y'ubururu n'umutuku arimo aratera umuti igihingwa ke cy'amashu akirinda udukoko dushobora kucyangiza.

Abagabo babiri harimo uwambaye umupira w'ubururu n'ingofero n'undi wambaye ishati, aho bari mu murima uteyemo igihingwa cy'ibirayi, barimo barerekana umuti batera ibirayi kugira ngo bitaribwa n'udukoko.

Umugabo wambaye imyenda yabugenewe, uhetse ipompo y'ubururu aho arimo aratera umuti ibimera bitandukanye, harimo nk'indabo ndetse n'ibiti by'imikindo aho ari kwica udukoko turimo.

Umusaruro ukomoka ku mafi usigaye uba ari mwinshi cyane kubera ko abantu bakora ubworozi bw'amafi ari benshi, kuko bigira amafaranga.

Abantu batandukanye bahagaze mu buryo bazengurutse icyuzi bororeramo amafi. Aho ari umushinga bize kugira ngo barebe ko bakiteza imbere.

Aha ni ku cyuzi cy'amafi aho hakoreshwa uburyo bwinshi butandukanye kugira ngo bayarobe maze, bayerekeze ku masoko na bo babone amafaranga menshi.

Umugabo wishimira umusaruro yakuye mu mushinga we w'ubworozi bw'amafi, aho agiye kuwujyana ku isoko maze agahabwa amafaranga amufasha kwiteza imbere.

Uburobyi bwateye imbere aho usanga abantu benshi basigaye babukora kandi bikabateza imbere kuko bigira umusaruro mwinshi ufatika, ibi rero bigatuma na bo babukunda.

Abagabo bambaye imyenda yiganjemo amashati y'umweru n'ubururu, aho bari kugenda iruhande rw'umugezi, ubona ko ari ahantu bakorera umushinga w'ubuhinzi kugira ngo biteze imbere.

Abantu babiri bakoze umushinga w'ubworozi bw'amafi, aho barimo bararoba kugira ngo bajyane umusaruro wabo ku isoko maze na bo babone amafaranga atubutse.

Ubworozi bw'amafi bumaze gutera imbere mu Gihugu cyacu cy'u Rwanda, aho usanga abantu benshi babikora kandi bikabagirira umusaruro kuko babikuramo n'amafaranga yo gukemura ibibazo byabo bya buri munsi.

Ubworozi bw'amafi na bwo bumaze gutera imbere kubera ko abantu benshi basigaye babukora kandi bikabateza imbere bikabaha agafaranga, bigatuma n'Abanyarwanda babona ibyo kurya muri rusange.

Umugore wambaye agapira ndetse n'agatambaro mu mutwe k'umutuku. Aho arimo arafata ibintu biri mu mufuka afite abishyira kuri supaneti ibiyungura neza ikuramo imyanda.

Umugabo wambaye agapira k'ubururu aho yishingiye umushinga wo korora amafi none akaba yeze arimo arayaroba kugira ngo ayajyane ku isoko abone amafaranga.

Abantu barimo barasarura igihingwa k'ingano aho ubona ko keze rwose neza cyane. Bakaba bashaka kukijyana bakagitunganya ubundi bakajya kuzigurisha.

Umurima uhinzemo igihingwa cy'umuceri mu buryo bwa kijyambere. Ukaba uteye ku murongo neza cyane kandi ahantu uri hakaba hari amazi menshi, bigatuma ukura neza,

Abagore batatu bambaye imyenda itandukanye yiganjemo ibitenge, barimo barasukura igihingwa cy'ikawa bagitunganya kugira ngo nikimara kumera neza bakijyane ku masoko haba mu Rwanda ndetse no mu mahanga.

Ikibaya kiza cyane ubona ko kirimo ibihingwa bitandukanye, harimo umuntu wambaye agapira k'umutuku uri kugenda abinyuramo areba niba byazere, bikaba bikikijwe n'imisozi miremire iteyeho ibiti by'amashyamba.

Umugore wambaye ikanzu y'ubururu ndetse n'agapfukamunwa, akaba ari mu murima yahinzemo igihingwa cya kawa, aho ubona ko bikiri ibitubwe zitari zera.

Abahinzi bahinga igihingwa cya kawa usanga baba bishimye cyane, bagaragaza uburyo bagira umusaruro mwinshi kandi bakiteza imbere kubera ko iki gihingwa gitanga agafaranga kenshi.

Abantu babiri b'abagore bahetse ibitebo mu mugongo, aho bari kugenda mu murima w'icyayi bagisarura kugira ngo nibarangiza bajye kugitegura neza ubundi bacyohereze ku masoko.

Ubuhinzi bw'ikawa ni ingenzi kandi buteza imbere ubukora, iki kikaba ari kimwe mu gihingwa ngengabukungu aho giteza imbere n'Igihugu cyacu cy'u Rwanda muri rusange kubera ko cyoherezwa hanze.

Umugore wambaye ijile y'umutuku n'agapira k'umweru ndetse yambaye n'amadarubindi. Akaba yakoze ku gihingwa cya kawa kitari kera neza, aho ari kwerekana uburyo cyakuze neza.

Umuntu wishimye wasetse yambaye akagofero k'umutuku, akaba ahetse igitebo mu mugongo we ahagaze mu murima w'icyayi cyinshi aho arimo aragisarura.

Itsinda ry'abantu biganjemo abagore bambaye amajire y'imituku, ubona ko ari koperative yahinze igihingwa k'ikawa none ikaba yareze neza bari kwerekana umusaruro wayo.

Umugabo wambaye ishati ya karokaro n'ipantaro y'umukara aho afashe ku cyapa cy'umukara cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, uyu murima ukaba uhinzemo igihingwa cya kawa.

Umugabo wambaye ingofero y'umukara ahetse n'igikapu akaba ari mu murima uhinzemo igihingwa k'icyayi arimo arareba ukuntu kimeze niba cyareze.

Umugabo wambaye agapira ka orange, wishimye cyane aho arimo aragaragaza igihingwa cy'ikawa yahinze kikera neza akaba yishimira umusaruro kimuha kubera ko gituma yiteza imbere.

Umugore wambaye agashati karimo utubara tw'umuhondo n'umukara ndetse yiteze n'ibitenge mu mutwe, akaba ari gusarura igihingwa cya kawa kugira ngo akijyane ku isoko.

Abagore batatu n'umugabo umwe aho bari mu murima uhinzemo umuceri barimo barakuramo ibyatsi byimejeje ndetse n'umuceri wapfuye kugira ngo batange umwanya wisanzuye w'umuceri usigayemo uzere neza.

Abagabo harimo uwambaye ishati y'umweru n'abandi bambaye iz'imikara aho bahagaze ahantu bateye icyayi ubona ko kitari kera neza kuko barimo baragikorera bakuramo ibyatsi bibi.

Ubuhinzi buteye imbere usanga babanza guhumbika umurama ahantu habugenewe, wamara kwera bakawushyira mu tuntu dutuma ukomeza gukura maze bakazabihavana babijyana kubitera mu mirima.

Akabati karimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi bw'amatungo, aho harimo uducupa, ibintu bifashisha batera inshinge n'ibindi bitandukanye.

Akabati karimo amacupa asa umukara ndetse n'udukarito byose bikaba birimo imiti itandukanye yifashishwa mu kuvura amatungo mu gihe yarwaye.

Akabati karimo imiti itandukanye iri mu makarito asa icyatsi ndetse n'ubururu, hakaba harimo imiti itandukanye yifashishwa mu kuvura amatungo igihe yarwaye.

Akabati karimo uducupa twinshi turi mu ibara rimwe ry'umweru, utwo ducupa tukaba turimo imiti yifashishwa kuvura amatungo igihe yarwaye.

Amacupa ari mu ibara ry'umukara ndetse n'ayandi ari mu mabara y'umuhondo n'umweru ubona ko arimo imiti, itandukanye yifashishwa mu kuvura amatungo igihe yarwaye.

Ahantu hari amakarito harimo uturindantoki twifashishwa n'abaganga bavura amatungo mu kudukoresha kugira ngo batandura kandi hari n'ibicupa birimo imiti.

Akabati karimo udukoresho dutandukanye twifashishwa tubikwamo imiti ivura amatungo, harimo uturi mu ibara ry'umweru n'utundi turi mu ibara ry'ubururu dufite imifuniko y'icyatsi.

Akabati karimo imiti y'amatungo iri mu macupa atandukanye amwe afite ibara rya orange, ayandi afite ibara ry'umweru, yose akaba arimo imiti yifashishwa kuvura amatungo.

Akabati gapakiyemo uducupa, tumwe dusa umukara utundi dusa umweru, tukaba twose turimo imiti yifashishwa mu kuvura amatungo, igihe afite ibibazo bitandukanye by'uburwayi.

Imiti itandukanye yifashishwa mu kuvura amatungo harimo iy'inkoko, ihene, ingurube ndetse n'inka, ibi rero bigomba gutuma umusaruro wiyongera mu borozi.

Iki ni icyumba cyabugenewe aho harimo amakarito ndetse n'amacupa atandukanye arimo imiti yifashishwa mu kuvura amatungo igihe yarwaye, ibi ni byiza kubera ko byorohereza aborozi kubona imiti bifashisha bavura amatungo yabo.

Akabati gapakiyemo utujerekani tw'umweru ariko dufite imipfundikizo isa ibara ry'icyatsi, aho utwo tubido turimo imiti ivura amatungo.

Akabati karimo udukombe turi mu ibara ry'ubururu n'umupfundizo w'icyatsi, inyuma yatwo hakaba hari uducupa turi mu ibara ry'umweru dufite imifuniko y'umutuku, byose bikaba birimo imiti yifashishwa mu kuvura amatungo.

Iyo umuntu aguze amatungo mashyashya usanga bayatera amaherena ku matwi kugira ngo bamenye ubwoko bwayo, igihe yaziye ndetse n'igihe izagendera.

Ubuhinzi bugezweho usanga bukorerwa mu mahangari. Aho hahingwamo imbuto ndetse n'imboga zitandukanye zigakuriramo neza zitishwe n'izuba kandi zikavomererwa kuko ziba zikeneye n'amazi.

Iki ni igihingwa cy'ibigori ubona ko cyahinzwe mu gihe kibi cy'izuba none rikaba ryarabiviriye birimo biruma, ibigaragara n'uko na nyirabyo atigeze abyuhira.

Umugabo w'umuhinzi usutamye, aho ari kwitegereza igihingwa yahinze kugira ngo amenye neza, niba kiri gukura neza nta busimba burimo burakirya cyangwa se hari ibyonnyi biri muri uwo murima.

Itsinda ry'abantu barimo abagabo n'umugore, aho bari guhinga bakoresheje ibikoresho gakondo bizwi ku izina ry'isuka. Bakaba bari guhinga kugira ngo bashyiremo imyaka yabo yere.

Iterambere mu Rwanda ryageze hose ku buryo no mu bworozi bw'amatungo nk'inka na ho usanga ryarahageze kuko riri cyane mu mukamo, aho amata akusanywa akajyanwa ahabugenewe akitabwaho agasukurwa.

Umugore w'umuhinzikazi aho mu biganza bye ateruye ibigori byinshi cyane ndetse inyuma ye hakaba hari n'ibindi bimanitse kugira ngo bizume.

Umugabo ukuze wambaye agasengeri k'umukara n'ipantaro, arimo arahinga mu gishanga yifashishije igikoresho gakondo kizwi ku izina ry'isuka, akaba ari guhiga ngo atere imyaka ye.

Itsinda ry'abagabo ubo ko barimo baratora ibihingwa cyagwa se ibiti bagiye gutera, mu mirima yabo kugira ngo birinde isuri.

Umugabo wambaye itaburiya y'ubururu woroye inka za kijyambere zikamwa amata menshi aho zimuha umukamo ufatika akawujyana ku isoko akabona amafaranga menshi.

Itsinda ry'abantu b'abahinzi bavuye mu murima wabo, aho baje batwaye ibyo bavuye gusarura, harimo ababyikoreye mu mifuka, mu mabase ndetse hari n'ubitwaye ku igare.

Umugabo w'umuhinzi wabigize umwuga, aho akazi ke ari uguhumbika imbuto, hanyuma zamara gushibuka, akazijyana kuzigurisha, hanyuma abaziguze nabo bakajya kuzitera.

Aba ni abantu batandukanye barimo umugabo n'umugore, aho bahagaze ahantu hari ibyatsi byinshi ubona ko ari ibyo bahinze kugira ngo bazage babigaburira amatungo yabo abeho neza.

Umugabo usutamye wambaye ishati ya karokaro n'ipantaro y'umukara arimo aratera igiti akoresheje intoki ze gusa, ibi ni byiza kuko birinda ubutaka gutwarwa n'isuri.

Igishanga kinini cyane gikikijwe n'imisozi giteyemo igihingwa k'ikigori gihishe gisa neza kitaweho, bagashyiraho ifumbire, bakanakivomerera kugira ngo kituma.

Aha ni mu gishanga ahari umugore wunamye uri kubagarira igihingwa cy'umuceri yateye. Bikaba bigaragara ko ugeze mu gihe cyo kubagarirwa kugira ngo ukure neza.

Ubuhinzi bwa kijyambere buhinga ku murongo, aho ibi bifasha mu kurinda ubucucike ndetse bikoroshya no mu buryo bwo kuvomerera iyi myaka, kubera ko bituma batayikandagira.

Itsinda ry'abantu bari mu murima aho bari guhinga higanjemo abagore ndetse n'abagabo, barimo barakoresha ibikoresho bya gakondo nk'amasuka bahinga kugira ngo batere imyaka yabo maze izere neza.

Muri gahunda za Leta harimo no gutera ibiti ahantu henshi hatandukanye, akaba ari yo mpamvu Leta ishishikariza Abanyarwanda gutera ibiti mu gihe cyose batemye igiti kimwe bagatera bibiri.

Ubworozi bw'amatungo maremare y'inka bugezweho usanga bukorerwa ahantu hubatse ibiraro bitagoye rwose, aho bashinga ibyuma gusa ubundi bakazishyiramo zikabamo nta kibazo.

Umugabo wambaye ishati y'umweru aho ahagaze iruhande rwe hari inzu y'ibyondo ndetse n'inka, iri mu mabara y'umweru n'umukara, bikaba bigaragara ko ayoroye kandi imufasha mu gukemura ibibazo bye imuha umukamo.

Umugore wambaye agashati kari mu ibara ry'ubururu, ukennye n'igitenge aho mu biganza bye byombi afite imbuto z'ibiti yateye muri pipinyeri zikaba zarakuze zigejeje igihe cyo gushyirwa mu butaka ngo zere.

Mu Rwanda abaturage benshi usanga bahinga igihingwa cy'umuceri, iki gihingwa kigira umusaruro wo ku rwego rwo hejuru ku buryo uwagihinze kimuha amafaranga menshi.

Gutera ibiti ni byiza munyarwanda kubera ko bigukururira umwuka mwiza uhumeka kandi bigakurura n'imvura, ituma duhinga tukeza ibihingwa bimeze neza.

Ubuhinzi bwa kijyambere butera imyaka ku murongo, bityo ugasanga imeze neza kandi iriho ifumbire ku buryo byoroha no kuyuhira umuntu atayikandagira.

Leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda yo gushishikariza abaturage gutera ibiti ahantu hose by'umwihariko munsi y'imirima yabo kugira ngo birinde kuba yatwarwa n'isuri.

Iki ni igihingwa cy'ibirayi aho bimwe biri mu mufuka ibindi bikaba birambitse ku meza, harimo n'icyo bakase mu buryo bwo kugaragaza uburyo ari cyiza kandi cyeze neza.

Urujya n'uruza rw'abantu biganjemo igitsina gabo, aho bari mu muhanda w'igitaka. Uwo muhanda ukaba ukikijwe n'ibiti bitandukanye by'amashyamba.

Mu byo abantu usanga bahinga cyane haba harimo n'urutoki kandi usanga rwera neza rukabaha umusaruro maze bakiteza imbere bagakirigita ifaranga.

Abantu ubona ko bari mu murima wabo ukikijwe n'ibiti aho barimo barasarura imyaka bahinzemo, Leta y'u Rwanda ishishikariza abantu gutera ibiti ku nkengero z'imirima yabo kugira ngo bayirinde isuri.

Mu Rwanda tugira ibihingwa ngengabukungu ndetse n'ibihingwa ngandurarugo. Aha ngaha hahinze ibigori ubona ko byeze rwose bigeze mu gihe cyo kubisarura bityo bakabijyana ku isoko.

Umugore wambaye ikanzu y'igitenge uhagaze mu murima we w'ibigori, aho arimo arabihingira neza abyicira akuramo ibyatsi byamezemo kugirango ngo bikomeze bikure bimuhe umusaruro mwiza.

Umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, afite umuhoro mu ntoki aho ahagaze mu murima we ubona ko ntakintu gihinzemo akaba ari gutekereza icyo agiye kuhakorera.

Umurima uteyemo igihingwa cy'ikigori ariko ubona ko kidasa neza, cyarumye kandi cyararumbye bigaragara ko batigeze bacyuhira mu gihe cy'izuba.

Igishanga kigari cyane gikorerwamo ubuhinzi bw'igihingwa cy'umuceri, iki gihingwa kikaba kera neza kandi kigatanga n'umusaruro utubutse ku bantu babukora.

Igihingwa cy'ikigori cyumye ubona ko kitameze neza kandi giteye ahantu hari ibihuru. Ibi rero si byiza kuko bituma iki gihingwa kitabona intungamubiri zihagije bitewe n'ibihuru.

Ubuhinzi buteye imbere usanga babukorera mu mahangari ndetse n'imbuto zimaze kwera bakazihinga ku ruhande rwaho, bakazuhira kugira ngo zimere neza.

Ahantu heza cyane hirengeye, hari ibyatsi byiza cyane ubona ko ari umwanya bateganyije wo kororeramo cyangwa se kuragiramo inka.

Abantu batandukanye ubona ko bari mu mirima ihinzemo igihingwa cy'umuceri. Barimo baragitera kugira ngo mu minsi izaza bazagisarure babone ibyo kurya kandi basagurire n'amasoko.

Iki ni ikibaya gihinzemo igihingwa cy'ikigori, aho ubona ko cyeze gisa neza cyane bitewe n'uko bagishyizeho ifumbire ndetse bakanacyuhira, ibyo bikaba byaratumye izuba ritabyica.

Ikibaya kinini cyane aho giteyemo ibihingwa bitandukanye. Hakurya hari imisozi iriho n'ibiti. Hagati muri iki gishanga hari n'umuhanda wa kaburimbo n'amapoto atwara insinga z'amashanyarazi.

Ahantu hateye igihingwa cy'umuceri ubona ko cyeze cyane rwose kizatanga umusaruro, abantu bakaba bashigaje kugisarura kugira ngo bakijyane ku masoko babone agafaranga.

Mu Rwanda usanga bakora ubuhinzi butandukanye burimo ubw'imboga ndetse n'ibindi bihingwa bitandukanye, guhinga imboga rero ni ingenzi kuko bituma abanyarwanda babona ibyo barya bityo bakihaza mu biribwa.

Leta y'u Rwanda usanga igira inama abaturage yo gutera ibiti bitandukanye birimo n'iby'imbuto ku mirima yabo kugira ngo nizera bazazirye banasagurire amasoko.

Izi ni pipiniyeri aho zifashishwa n'abahinzi b'umwuga bahingamo ibimera bitandukanye nk'imboga, imbuto n'ibindi kugira byere neza.

Igihingwa cy'ibijumba ni kimwe mu bihingwa ngandurarugo, aho usanga bifasha umuryango kubona ibyo urya ndetse rimwe na rimwe bakabyerekeza no ku isoko bakabikuramo amafaranga.

Ikibaya kigari cyane gikikijwe n'imisozi iri kure, icyo kibaya kikaba giteyemo igihingwa k'icyayi, icyayi kikaba ari kiza ku mubiri w'umuntu.

Ahantu heza cyane hitegeye hari ikibaya kinini cyane gihinzemo igihingwa k'icyayi, iki cyayi kikaba gikundwa cyane n'Abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga.

Ubuhinzi bw'ubwatsi amatungo arya na bwo buteza imbere ubukora kuko mu Rwanda hari abantu benshi boroye kandi baba bakeneye ubwatsi bw'amatungo yabo.

Mu Rwanda usanga abaturage bafatanya n'inzego z'umutekano, zirimo abadaso ndetse na polisi bagasukura imihanda itandukanye mu gihe bari gukora igikorwa cy'umuganda.

Ibidukikije ni bimwe mu bikwiye kwitabwaho bikabungabungwa kubera ko bitanga umwuka mwiza wo guhumeka ndetse akaba ari n'ubuturo bw'inyamaswa zo mu gasozi.

Iyi ni imisozi ubona ko ari myinshi iriho ibimera bitandukanye nk'amashyamba ndetse n'ibindi, iyi ikaba ari Aarike y'akagera hano mu Rwanda aho usangamo inyamaswa zitandukanye.

Ahantu hitegeye hari imisozi ubona ko isa neza cyane kuko iriho ibihingwa ndetse n'ibimera bitandukanye, hakaba hari ikirere kidasa neza ubona ko imvura igiye kugwa.

Ahantu hitegeye hari umusozi uriho ibimera bitandukanye by'amasaka ndetse hakurya y'uwo musozi hakaba hari ikiyaga kinini cy'amazi, kikaba gikorwamo uburobyi n'abantu babikora nk'umwuga.

Umusore n'inkumi bari kugenda ahantu mu nzira ubona ko ari heza cyane hakikijwe n'ibiti, aho hantu ukaba nawe wahakunda kubera ko hari ibikorwa remezo byiza cyane bibereye ijisho.

Imisozi itandukanye usanga hariho amashyamba, ibi ni ukubera ko yitabwaho akabungabungwa kubera ko afitiye akamaro ikiremwa muntu kubera ko azana umwuka abantu bahumeka.

Ikibaya gihinzemo imyaka itandukanye ndetse harimo insina, hakaba kandi harimo n'amazu n'imihanda ndetse hakurya hakaba hari imisozi iteyeho amashyamba.

Inka z'Inyambo zihagaze hamwe ni nziza zifite amahembe ateze ndetse ziba zambaye n'ingori ubona ko ari inka zigaragaza umuco nyarwanda, ibi bigatuma abantu baza kuzireba cyane.

Amashyamba ni bimwe mubidukikije by'ingirakamaro kubera ko bidukururira umwuka mwiza duhumeka kandi n'imvura muri rusange bityo abahinzi bakabona uko bahinga neza.

Ahantu hari amashyamba menshi cyane ubona ko ari muri parike cyangwa se amashyamba y'inzitane, aha hakaba habamo inyamaswa z'inkazi zitandukanye, aho nta muntu ushobora kwinjiramo ari wenyine.

Mu Rwanda usanga hari amashyamba menshi cyane ari ku misozi miremire, aho hari ubuturo bw'inyamaswa zitandukanye z'agasozi. Izo nyamaswa zirimo nk'inzovu, impara n'imparage n'izindi.

Ahantu hitegeye hari imisozi iriho amashyamba menshi, ubona ko ari muri parike cyangwa se ishyamba rya kimeza, hakaba habamo inyamaswa z'ubwoko butandukanye zo mu gasozi.

Ahantu hateye ibiti by'inturusu ariko hateyemo n'imboga z'amashu, aho ubona ko zitewe vuba zitari zera ngo zitange umusaruro ku wazihinze.

Imisozi ihanamye irimo amashyamba ndetse hari n'imisozi ubona ko ari migufiya, iyi misozi ikaba ibamo inyamaswa zitandukanye.

Itsinda ry'abantu biganjemo abagabo, barimo barakora imyitozo ngororamubiri, bazamuka umusozi, baruhura umubiri wabo kandi banawugorura kugira ngo bakomeze bagire ubuzima bwiza.

Imisozi itandukanye iriho ibimera by'amashyamba, insina n'ibindi, aho hagati y'iyo misozi harimo umugezi munini utemba wifashishwa n'abaturage mu kuhira iyi myaka.

Imisozi miremire yitegeye iriho amashyamba menshi ikaba ari iyo mu Rwanda ndetse ni na yo mpamvu u Rwanda barwita urw'imisozi igihumbi kubera ko rugira imisozi myinshi kandi miremire.

Ibiti ndetse n'ibindi bintu bitandukanye na byo biri mu bidukikije, ni byiza ko rero tubirinda twirinda kubitemagura no kubyangiza kuko biduha umwuka duhumeka, bikanacumbikira inyamaswa z'agasozi.

Amashyamba ni bimwe mu bimera by'ingenzi cyane kubera ko bikurura umwuka abantu bahumeka muri rusange kandi bigakurura n'imvura ndetse akarusho bicumbikira inyamaswa zo mu gasozi.

Umugezi muremure cyane unyura hagati y'imisozi, aho kuri iyo misozi hateye amashyamba n'ibindi bimera bitandukanye. Uwo mugezi ukaba wifashishwa n'abaturage mu kuhira imyaka yabo.

Umugabo w'umuhinzi wishimye aho ari kwerekana umusaruro wa pavuro yahinze zikera neza akaba yitegura kuzigeza ku isoko ngo zimuhe amafaranga.

Umugore wambaye agashati k'umutuku uri mu murima we yateyemo urubuto rw'amatunda, arimo ararukorera neza aruzirika ahabugenewe kugira ngo rwere neza rumuhe umusaruro.

Umugore usutamye wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'ubururu y'ikoboyi, akaba ari umuhinzi wahinze igihingwa cy'urusenda, cyeze neza, ari kugisarura ngo akijyane ku isoko.

Abahinzi babiri b'abagore bari mu murima w'amashu ubona ko yeze neza kandi agejeje igihe cyo kuyasarura, bakayerekeza ku isoko bakabona inyungu.

Urubuto rwavoka narwo ni rumwe mu mbuto nziza umubiri wacu ukenera kugira ngo ukore neza kuko rugira intungamubiri zitandukanye umubiri ukenera kugira ngo nawo ukomeze ugire ubuzima bwiza.

Umugabo w'umuhinzi wambaye umupira w'umutuku aho ari mu murima we yahinzemo imboga zitandukanye, akaba ari kureba ko zeze kugira ngo asarure azijyane ku isoko abone amafaranga.

Ubu ni ubuhinzi aho umuntu akora umushinga wo guhumbika imirama, hanyuma yavamo ibiti bakajya kubitera mu mirima y'abantu.

Uyu ni umusaruro mwinshi cyane w'ibikomoka ku buhinzi birimo pavuro, inyanya, amatunda, ibitunguru ndetse n'amakaroti.

Pipinyeri iteyemo ibimera bitandukanye harimo indabo n'ibindi bitanga imbuto n'imboga nk'amashu ndetse n'ibindi, ibi bikaba ari byiza kuko bituma byera neza.

Burya mu bintu byinshi ushobora gusanga bigurishwa ku masoko haba hariho n'indabyo zo mu mabara atandukanye nk'umuhondo, umweru, umutuku ndetse n'icyatsi akundwa n'abantu batari bakeya.

Ubuhinzi buteye imbere usanga hifashishwa amatiyo agenda anyuzwa hagati kubera ko biba biteye ku murongo, ubundi na yo akazanamo amazi abivomerera kugira ngo bituma.

Aha hari imbuto nyinshi zitandukanye zituruka ku buhinzi, ibi rero ni byiza kubera ko bituma Abanyarwanda babona ibyo kurya bitandukanye bifite intungamubiri bityo bagakomeza kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Iyo ugeze ku masoko uhasanga imbuto ndetse n'imboga by'amoko atandukanye. Haba harimo inyanya, imiteja, karoti ndetse na za pome n'amaronji n'ibindi byinshi.

Umuntu w'umugore wunamye aho ari gusarura ibitunguru yahinze mu karima ke k'igikoni, akaba agiye kubikoresha ateka indyo yuzuye maze we n'umuryango we bakabaho neza.

Abagabo ubona ko ari benshi barimo baratunganya umusaruro uturuka ku buhinzi higanjemo uruboga rw'inyanya, aho bagiye kurugurisha bakabona agafaranga.

Abahinzi babigize umwuga usanga bajya ku bandi bakora umwuga wo guhumbika imbuto maze bakazibagurira iyo zimaze gusa nk'izikura na bo bakajya kuzitera ahabugenewe bateguye.

Agatebo keza cyane karimo kandi kanakikijwe n'imbuto zitandukanye ndetse n'imboga, mu mbuto harimo pome ndetse n'inkeri, na ho mu mboga harimo inyanya, pavuro n'izindi.

Iyo ugeze ku isoko uhasanga ibintu bitandukanye harimo imboga ndetse n'imbuto. Hano haragaragara imbuto zitandukanye zirimo pavuro, imiteja, ibitunguru, karoti, inyanya n'izindi.

Ubuhinzi bw'imboga n'imbuto zitandukanye ni ingenzi kuko bituma ubukora yiteza imbere mu gihe gitoya kandi akanikemurira ibibazo bye bya buri munsi.

Umugore w'umuhinzi wambaye itaburiya y'umweru n'ingofero y'urukinga, aho ari mu karima yahinzemo igihingwa cya pavuro ubona ko keze neza akaba ari kugisarura.

Ubuhinzi buteye imbere bukorerwa muri hangari. Aho hahingwamo imboga zitandukanye bazirinze izuba ryinshi kandi bakanazuhira ku buryo zera neza zigatanga umusaruro.

Abantu bambaye amataburiya y'imyeru, harimo abagore ndetse n'abagabo bari hirya ubona ko barimo barategura banatunganya, ibikomoka ku buhinzi kugira ngo babyerekeze ku masoko.

Iyo ugeze ku isoko uhasanga abacuruzi ndetse n'abaguzi batandukanye, aho haba hari ibicuruzwa birimo inyanya ndetse n'ibindi abantu bakenera mu buzima bwa buri munsi.

Ku isoko tuhasanga ibiribwa bitandukanye birimo imbuto ndetse n'imboga. Mu mbuto dusangamo: imineke, inkeri na pome n'aho mu mboga dusangamo: karoti, pavuro n'inyanya n'ibindi.

Umuntu w'umugabo wahinze imbuto ze, yambaye ishati y'umukara n'ipantaro y'umweru, aho arimo arakoresha ruzwari azivomerera kugirango ziticwa n'izuba.

Umugabo wambaye agapira k'umukara, ufite imashini iri kugenda itera umuti ibimera, kugira ngo biticwa cyangwa se bikaribwa n'udukoko.

Umugabo wambaye ingofero y'umweru ndetse afite rozwari ebyiri mu maboko ye yombi arimo aravomerera ibihingwa yateye mu buryo bw'umurongo, aho ubona ko ibihingwa bye bimeze neza.

Abantu ubona ko bahinze mu buryo bwa kijyambere aho bateye ku misozi iciyeho amaterasi kandi bari kuvomerera iyo mirima yabo kugira ngo ibihingwa bizere neza.

Umugore wambaye imyenda y'imikara ndetse n'uturindantoki, aho ari mu murima we yateyemo igihingwa cy'umuceri, arimo aruhira akoresheje itiyo rinini cyane riri kuvamo amazi menshi.

Aba ni abahinzi barimo abagore ndetse n'abagabo aho bambaye amatawuriya y'ubururu, bakaba bari mu murima uteyemo ibigori ndetse n'imboga, aho bari gukoresha umupira w'amazi babyuhira.

Ubuhinzi buteye imbere usanga bwifashisha amatiyo cyangwa se uburyo bugezweho mu kuhira imyaka kugira ngo izuba ritayica maze bagahomba, bityo ugasanga n'abaturage babuze ibyo barya.

Ubuhinzi bwa kizungu usanga bukoresha amamashini atandukanye, yifashisha n'umuriro uturuka ku mirasire y'izuba mu kuhira imyaka yabo mu gihe k'izuba kugira ngo ituma.

Umugabo wambaye umupira w'icyatsi, ufite itiyo nini iri kuvamo amazi ari kwifashisha yuhira ibihingwa bye by'ibigori ndetse n'ibindi kugira ngo biticwa n'izuba.

Umugore ubona ko afite itiyo nini y'amazi arimo aruhira ibihingwa bye yahinze kugira ngo bitazuma, bitewe n'uko ari mu gihe cy'impeshyi kandi izuba riri kuva cyane.

Mu bishanga bitandukanye usanga harimo imiferege y'amazi yubatswe neza, ayo mazi akaba anyura mu bishanga atanga amazi ku baturage buhira imirima yabo.

Uyu ni umurima ubona ko ari mu gishanga hateyemo ibihingwa bitandukanye, uwo murima ukaba uri kuhirwa hifashishijwe uburyo bwa kizungu bwiza cyane butuma imyaka yera neza.

Umugabo uri gukoza ibiganza bye mu mazi ari imbere ye ubona ko ashaka kuyuhiza umurima uri iruhande rwe kubera ko wumagaye ukeneye amazi.

Umugore uri kuhira imyaka ye akoresheje itiyo rinini ri kuvamo amazi aho avuga ati "aha hantu ngomba kubikora neza kugira ngo nzakuremo agafaranga gatubutse maze niteze imbere".

Umukobwa wambaye agashati k'umweru ndetse ukenyeye n'akantu k'umukara, afite rozwari aho ari kuyikoresha avomera igihingwa ke yahinze cy'amashu ubona ko gisa neza cyane.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara arimo arakoresha rozwari, yuhirira ibihingwa yateye mu murima kugira ngo bitazuma kubera ko ari mu gihe cy'izuba.

Ubuhinzi bwa kijyambere usanga bwifashisha amamashini atandukanye mu kuhira imyaka kugira ngo iticwa n'izuba. Ibi rero ni ingenzi kuko bituma umusaruro wiyongera.

Ubuhinzi buteye imbere usanga abahinzi bakoresha imashini zabugenewe mu kuhira imyaka mu gihe cy'impeshyi kuko nta mvura iba iri kugwa, ibi rero bituma imyaka ikomeza gukura neza.

Itsinda ryiganjemo abagabo bambaye amataburiya y'imyeru, ubona ko bafite ahantu bari kwerekeza, bakaba bishimye bishimiye kuba bari mu gikorwa cyo kubungabunga ubuzima.

Umugabo wambaye umupira w'umukara ufite itiyo rinini riri kuvamo amazi menshi, arimo arayacucira mu murima kugira ngo worohere ibihingwa birimo bikure neza.

Ubuhinzi buteye imbere usanga bwifashisha uburyo bw'ikoranabuhanga mu kuhira. Aho usanga ibihingwa bidashobora kubura amazi kandi bitakicwa n'izuba kubera ko ubu buryo ari bwiza cyane kandi butuma imyaka ibona amazi.

Mu Rwanda hari imisozi, ibirunga, ibiyaga ndetse n'ibibaya byiza cyane bikurura ba mukerarugendo bagahora baza kubireba na bo bakazana amadovize.

Umurima uteyeho icyayi ubona ko hasa neza cyane rwose, icyo cyayi kikaba gikikijwe na none n'umusozi uriho amashyamba ndetse n'ikirere kikaba gisa neza cyane.

Ibidukikije biri mu bintu tugomba gusigasira kandi tukabibungabunga, muri byo harimo nk'amashyamba ndetse n'imigezi n'inzuzi kuko bifatiye runini Abanyarwanda muri rusange.

Ahantu hitaruye hahinze ibihingwa bitandukanye ndetse hakaba hari n'amashyamba hejuru ku misozi, bigaragara ko ari mu gihe cy'imvura kuko ikirere kirasa nabi aho bigaragara ko imvura yenda kugwa.

Ahantu hirengeye hagaragara imisozi iteyeho ibihingwa bitandukanye ndetse n'ibimera birimo amashyamba ndetse n'ibindi, hakaba hagaragara kandi amazu yubatse kuri iyo misozi.

Ikibaya cyitegeye ubona ko harimo umugezi hagati munini kandi uwo mugezi ukaba ukikijwe n'ibimera bitandukanye, ubona ko aho hantu hakorerwa ibikorwa by'ubuhinzi.

Ahantu hitegeye hasa neza cyane hari imisozi iriho amashyamba menshi, ibigaragara byo ni mu misozi y'ibirunga kubera ko hari umusozi muremure cyane ugoswe n'ibicu.

Imisozi yitegeye ihinzeho ibihingwa bitandukanye ndetse hariho n'amashyamba, ubona ko aho hantu hatuye abantu bazi guhinga kubera ko ubona ko hasa neza kandi hariho imyaka itandukanye.

Iyo ukigera mu Rwanda uhasanga imisozi miremire kandi myinshi iriho amashyamba ndetse n'ibimera muri rusange biribwa n'abanyarwanda kandi hakabamo n'utunyamaswa two mu gasozi dushimishije.

Ahantu hitegeye ku misozi hari ibihingwa bitandukanye, urugero ni nk'insina ndetse n'ibindi, ku ruhande rwo hakuno hakaba hari umugabo uhagaze aho inyuma ye hari ibiti binini by'amashyamba.

Ahantu hitegeye hagaragara imisozi iriho amashyamba, insina ndetse n'ibibaya biteyemo igihingwa cy'umuceri ubona ko kitari cyakura.

Ahantu hitegeye hari imisozi miremire, ubona ihinzeho, iriho ibihingwa bitandukanye. Hakuno hari amagare aparitse ndetse n'amajerekani, ubona ko hari umugezi, baje kuhavomera.

Ahantu hitegeye hasa neza hari imisozi ihinzeho ibihingwa bitandukanye ndetse hakaba n'iriho amashyamba ariko ubona ko hafite ishusho nziza cyane ibereye amaso.

Igishanga kirimo umugezi usa neza ku mpande y'uwo mugezi hakaba hateye igihingwa k'icyayi ubona ko keze gitegereje gusarurwa.

Umuntu ugeze mu Rwanda bwa mbere atangazwa n'imisozi ahasanga kuko ari myinshi kandi iriho ibimera bitandukanye. Ni yo mpamvu u Rwanda barwita urw'imisozi igihumbi.

Ahantu hitegeye hari imisozi miremire ihanamye ihinzeho ibihingwa by'icyayi ndetse yubatseho n'amazu. Aha ngaha akaba ari ahantu hahingwa icyayi mu karere k'u Rwanda ubona ko hameze neza.

Muri Nyungwe uhasanga udusimba turimo imparage tuba turi mu mabara y'umukara n'umweru, utu dusimba tukaba ari twiza cyane kandi dukundwa na ba mukerarugendo.

U Rwanda uhasanga ibiyaga ndetse n'imisozi miremire. Ibi byose bikaba bikundwa na ba mukerarugendo kubera ko usanga biha u Rwanda ishusho nziza.

Ubworozi bw'amatungo magufiya nk'ingurube bufasha ababukora mu kwiteza imbere aho butuma bikenura bo ubwabo n'imiryango yabo ndetse bagasagurira n'amasoko.

Ubworozi bw'amatungo atandukanye harimo nk'inkoko ni ingenzi kuko bufasha ababukora kwiteza imbere ndetse no kwikemurira ibibazo byabo bahura na byo bya buri munsi.

Ubworozi bw'amatungo buteye imbere ni ingenzi kubera ko iyo woroye urugero nk'inka za kizungu ziguha umukamo mwinshi ndetse ibi bigatuma ubona n'amafaranga menshi.

Inka z'Inyambo nyinshi ziri mu rupango aho zifite amahembe meza ateze, inyuma yazo hari abantu biganjemo igitsina gabo bambaye amataburiya y'imyeru ndetse n'amasarubeti y'ubururu.

Ubworozi bw'amatungo magufi harimo nk'inkoko ni bwiza kandi bufasha ubukora mu kwiteza imbere ndetse no gukemura ibibazo ahura na byo bya buri munsi nko kwishyura mituweri.

Ubworozi buteye imbere usanga amatungo manini bayubakira ibiraro bigezweho biyafasha kuba yisanzuye kandi akaba atanatoroka ngo ajye kona.

Ubworozi bwa kijyambere bw'amatungo maremare nk'inka, ni bwiza kandi bufasha ababukora mu kwiteza imbere bikemurira ibibazo byabo ndetse no gufasha abana kubona amafaranga y'ishuri.

Ubuhinzi bw'amatungo magufiya ni ingenzi kubera ko butuma ubukora yiteza imbere kandi akabona amafaranga amufasha gukemura ibibazo bye bya buri munsi, harimo nko kwishyura amafaranga y'ishuri ndetse no kwishyura mituweli.

Ubworozi bw'inkoko bugezweho aho zororerwa mu tubati tw'ibyuma maze amagi ziteye akajya ajya ahantu habugenewe, ibi rero ni byiza kuko bituma ubikora yiteza imbere mu buryo bwose.

Ubworozi bw'amatungo magufiya nk'ingurube ni ingenzi kubera ko bufasha ababukora mu kwiteza imbere ndetse no gukemura ibibazo byabo harimo nko kwishyura amafaranga y'ishuri y'abana ndetse no kwishyura mituweri.

Ubworozi bw'amatungo magufiya nk'inkoko na bwo ni ingenzi kubera ko bufasha ubukora mu kubona umusaruro urimo amagi ndetse hari n'inkoko zoroherwa kubagwa, bityo akazijyana ku isoko akabona agafaranga.

Ubworozi bw'amatungo magufiya nk'ingurube ni ingenzi kandi ni byiza kuko bifasha ubukora mu kwiteza imbere akihaza mu biribwa se cyangwa akaba yanazijyana ku masoko akabona amafaranga.

Ubworozi bw'amatungo maremare ni bwiza kuko butanga umusaruro ufatika; harimo nk'inyama, amata ndetse no kubyara ibi bigateza imbere ubukora.

Umugabo wambaye ishati ya karokaro uhagaze imbere y'inka za kizungu, aho afite ikayi arimo aragenda yandika umukamo buri nka itanga kugira ngo bamenye neza uko bazajya bazigaburira.

Abantu biganjemo igitsina gabo, bambaye imyenda irimo amataburiya y'ubururu ndetse n'amasarubeti y'umweru, aho bari kureba inka ziri mu rupango z'inyambo.

Ubworozi bw'amatungo magufiya ni ingenzi kubera ko burafasha kandi bugateza imbere ubikora, urabona ko hakurya, hari abantu bari kwitegereza uyu mukumbi, ubona ko ari ibintu byiza cyane kandi bishimishije.

Ubworozi bw'amatungo magufiya harimo nk'ihene ni bwiza kandi bufasha ababukora mu kwiteza imbere ndetse no gukemura ibibazo byabo bahura na byo buri munsi.

Abantu batandukanye bambaye imyenda yiganjemo amatabuririya y'imyeru, aho baje gusura inkwavu bororeye mu tuzu twabugenewe, aho zihabwa ibiryo muri aho ngaho.

Iyo umuturage yoroye itungo rigufiya, urugero nk'ingurube biramufasha cyane kuko bituma iyo arigurishije ashobora kwikemurira, ibibazo bye cyangwa se akikura mu bukene.

Ubworozi bw'amatungo magufiya harimo nk'ihene ndetse n'intama ni ingenzi kuko bufasha ubukora mu kwiteza imbere ndetse no gukemura ibibazo ahura nabyo.

Ubworozi bw'amatungo magufiya nk'ingurube ni ingenzi, ni byiza ko rero abaturage babukora kubera ko butuma biteza imbere kandi bukabafasha no gukemura ibibazo byabo.

Ubworozi bw'amatungo magufiya ni ingenzi kubera ko butuma ababukora biteza imbere, bakabona umusaruro utandukanye haba ukomoka ku mata, inyama ndetse n'ibindi.

Ubworozi bw'inkoko ni ingenzi kandi ni bwiza kubera ko bufasha ubukora mu kwiteza imbere ndetse no gusagurira amasoko ajyana inyama ndetse n'amagi.

Aba ni aborozi ni aho barimo barakama inka zabo bashyira amata mu bicuba, izo nka zikaba ari nyinshi ziri mu mabara y'umukara, umweru ndetse n'ikigina.

Ubworozi bw'amatungo magufiya nk'ingurube ni bwiza kandi ni ingenzi kuko butuma umuntu yiteza imbere ndetse no mu Rwanda bakabona inyama zo kurya zihagije.

Ubworozi bw'amatungo maremare harimo inka ni ingenzi kubera ko bufasha ababukora ukwiteza imbere ndetse no gukemura ibibazo byabo bya buri munsi ndetse no guha umuryango wabo amata kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Ubworozi bw'amatungo maremare ni ingenzi kubera ko bufasha ubukora mu kwikemurira ibibazo ahura na byo mu buzima bwe bwa buri munsi, harimo nko kwishyura mituweri, kwishyurira abana amafaranga y'ishuri n'ibindi.

Umugabo wakoze umushinga w'ubworozi bw'inkoko za kijyambere, maze akazororera ahantu heza habugenewe hatuma izi nkoko zitera neza kandi zikamuha umusaruro yifuza.

Korora itungo ry'ingurube ni byiza kubera ko ritanga umusaruro, ribyara ibyana byinshi kandi rikagira n'inyama, ibyo rero bigatuma ubukora yiteza imbere muri rusange.

Ubuhinzi n'ubworozi bugirira akamaro ababikora by'umwihariko aborora inka kubera ko usanga zibyara zigatanga umukamo ndetse by'umwihariko n'inyama ku bantu bakunda kuzirya.

Ubworozi bw'amatungo magufiya nk'inkoko ni ingenzi kandi ubukora wese aba akwiriye gukurikiza amabwiriza ahabwa kugira ngo zororoke ariko ntizipfe, akoresha imiti yose ishoboka kugira ngo azirinde indwara.

Abagabo bambaye amataburiya y'umweru ndetse n'ubururu aho barimo barita ku nka z'inyambo zifite amahembe ateze neza, izo nka bakaba bari kuzitera urukingo kugira ngo zikire inzoka.

Ubworozi bw'amatungo magufiya harimo nk'ingurube ni bwiza kandi buteza imbere ubukora, bitewe n'uko ingurube ari itungo ryororoka vuba kandi rikagira amafaranga.

Abagabo bambaye amataburiya y'imyeru ndetse n'ay'ubururu, aho barimo barita ku nka z'Inyambo ziri mu rupango bagenda bazivura kugira ngo zikire cyangwa se zitazarwara indwara z'ibyorezo.

Umuntu ufite inka nyinshi aho yaziragiye mu rwuri rwe rurimo ubwatsi bwinshi, akaba avuga ko aya matungo ye amufasha cyane kuko atuma yiteza imbere.

Ubworozi bw'amatungo bw'inka buteye imbere ni ingenzi kuko bufasha abantu mu kwiteza imbere bugatanga umusaruro w'amata n'inyama ku masoko bityo abaturage bakabona ibyo barya.

Ubworozi bw'inkoko ni ingenzi kuko butuma ubukora yiteza imbere haba mu buryo bwe wenyine cyangwa se n'umuryango we muri rusange, haba mu kwishyura amashuri y'abana, ubuvuzi n'ibindi.

Ubworozi bw'amatungo manini urugero harimo inka ni ingenzi kandi ni bwiza kuko bufasha ababukora mu kwiteza imbere ndetse no guteza imbere abandi ndetse no kugemurira amasoko ibiyakomokaho.

Umugabo wambaye agapira k'umutuku n'ipantaro y'umukara aho mu biganza bye byombi afitemo ibimera by'impeke yasaruye, arimo arereka abantu agaragaza umusaruro we.

Ikiganza cyambaye akarindantoki k'umukara aho kirimo kirakora mu musaruro w'ubunyobwa ubona ko budasa neza kubera ko bwarumbye.

Aha ni mu nganda, aho hatunganyirizwa ibikomoka ku buhinzi bitandukanye, maze bigatuma abanyarwanda babona ibyo kurya bihagije bakihaza mu biribwa.

Imifuka itandukanye irimo ibinyamisogwe by'ubwoko butandukanye birimo ibigori, ibishyimbo, amashaza, soya ndetse n'ibindi byiza cyane ku mubiri w'umuntu.

Ubuhinzi bw'ibigori ni ingenzi kubera ko butuma Abanyarwanda babona ibyo kurya haba kubiryamo akawunga cyangwa se no kubirya bikiva mu murima, ibi rero bituma twihaza mu biribwa.

Umuntu w'umumama wambaye agapira k'umukara aho ahagaze iruhande rw'imifuka myinshi y'ibiro ijana, ipakiyemo igihingwa cy'umuceri ubona ko keze neza cyane bakaba biteguye kukijyana ku isoko.

Aha ni mu ruganda ahatunganyirizwa ibikomoka ku buhinzi, harimo nk'umuceri, ibigori n'ibindi kugira ngo byerekezwe ku masoko bitunganye abantu babashe kubigura.

Aba ni abagabo babiri b'abaganga b'amatungo aho barimo baravura imbwa iryamye hasi irwaye bayitaho kugira ngo ikire imere neza.

Inka z'Inyambo ni inka nziza cyane ziba zifite amahembe meza kandi azamutse hejuru. Ibi ngibi bituma ziba umwihariko w'u Rwanda kubera ko nta handi wazisanga ku Isi.

Iyo itungo rigiye kubagwa ni byiza ko hatumirwa umuganga w'amatungo kugira ngo amenye neza ko nta kibazo izo nyama zishobora kugira ku kiremwamuntu.

Abagabo babiri bambaye imyenda yiganjemo ibara ry'ubururu, hakaba hari n'uwambaye ingofero y'umweru urimo uratera urukingo inka yari yarwaye kugira ngo ikire imererwe neza.

Umugabo wambaye itaburiya y'ubururu ndetse n'uturindantoki n'ingofero y'umweru, arimo aratera inka intanga yifashishije ibikoresho bigezweho byabugenewe, ibi bituma inka ibyara inyana nziza.

Umugabo wambaye itaburiya y'ubururu, aho ari kureba inka nyinshi z'inyambo ziri mu rupango, ziri kwerekezwa aho zikamirwa kugirango zitange amata, bajye kuyagurisha.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru, agapfukamunwa ndetse n'agashashi mu mutwe, akaba arimo aravanga imiti itandukanye yifashisha mu kuvura amatungo.

Mu Rwanda ibikomoka ku matungo byatejwe imbere aho usanga hari amakusanyirizo abizana maze akabitunganya akabikoramo n'ibindi bintu bikomoka ku mata, maze abaturage bakabona ibyo bifuza.

Abaganga b'amatungo ubona ko bari kwita ku mbwa iri imbere yabo yagize ikibazo. Bakaba barimo barayivura indwara yari ifite kugira ngo yongere ikire ibe nzima.

Abavuzi b'amatungo bambaye imyenda yiganjemo icyatsi, aho bari gukoresha udukoresho twabugenewe mu kumva uko ubuzima bw'iri tungo buhagaze kandi ukaba ubona ko bashaka kuritabara.

Ubworozi bw'amatungo magufiya nk'inkoko ni ingenzi kuko bufasha ubukora mu kwiteza imbere, abona amagi ndetse n'inyama bityo akagemurira amasoko atandukanye.

Umuganga w'umugore wambaye itaburiya y'umweru, aho ari mu cyumba kirimo imashini y'ikoranabuhanga yifashishwa mu gutanga umwuka ku barwayi barwariye mu bitaro.

Itsinda ry'abaganga b'amatungo bambaye imyenda iri mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu aho barimo barita ku nka iri mu rupango bayitera umuti kugira ngo ikire.

Aha bigaragara ko ari inka yabazwe maze hakavamo inyana yari itaravuka, ibi rero bikaba atari byiza kubera ko bitera igihombo cyane ku mworozi.

Abaganga babihuguriwe kandi babifitiye ubushobozi barimo baravura itungo ry'imbwa aho ubona ko ryarwaye rifite ikibazo gikomeye cyane, bakaba bari kurivura kugira ngo ryongere rigire ubuzima bwiza.

Umuntu wambaye itaburiya y'umweru n'amadarubindi ndetse n'uturindantoki aho arimo arapima inyama zabazwe ku nka kugira ngo arebe niba hari uburwayi burimo maze abuze abantu kuzirya kugira ngo na bo batarwara.

Umugabo wambaye itaburiya y'ubururu aho yambaye ishashi arimo aratera inanga inka y'Inyambo kugira ngo izabyare inyana nziza yifuzwa.

Aba ni abavuzi b'amatungo, babizobereye, aho barimo barabaga imbwa, ubona ko iryamye cyane kandi irwaye, bayikorera ubuvuzi bw'ibanze kugira ngo ikire.

Abaganga bari mu cyumba cyabo cyabugenewe aho bambaye amataburiya y'imyeru n'udupfukamunwa, barimo barakora ubushakashatsi ku miti itandukanye bifashisha bavura amatungo mu gihe afite ibibazo by'uburwayi.

Umugabo wambaye itaburiya cyangwa se imyenda isa umweru yifashisha ari kuvura amatungo, akaba ari gutera urushinge itungo ry'ingurube kugira ngo aririnde uburwayi butandukanye.

Abantu bateraniye hamwe aho harimo abambaye amataburiya y'imyeru n'abandi bambaye ibisarubiti by'ubururu, aho barimo baraganira bungurana ibitekerezo ku cyo bakorera inka yarwaye.

Inka z'inyambo usanga zifite amahembe ateze meza cyane, zikaba zikundwa na ba mukerarugendo kubera ko nta handi wazisanga ku isi uretse mu Rwanda gusa.

Ni byiza ko mbere yo kubaga itungo ryipfushije ubanza ukavugisha umuvuzi wabiherewe uburenganzira kandi ubifitiye ubushobozi ari we veterineri kugira ngo abanze aripime arebe ko ritarwaye.

Abagabo bambaye amataburiya ari mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru, bakaba ari abaganga aho bari kuvura itungo ryari ryagize ikibazo.

Aka ni akanyamaswa, kitwa ingwe, aho kagira amahane cyane kubera ko kakikubona gashobora guhita kakurya, ni byiza rero kujya mu mashyamba witwararitse.

Iyo ugeze mu mashyamba atandukanye yo mu Rwanda uhasanga utunyoni twinshi turi mu mabara atandukanye kandi meza. Ayo mabara aba arimo umweru, umukara n'ayandi.

Muri Parike ya Nyungwe usangamo inyamaswa zitandukanye z'inkazi harimo n'ingwe. Iyi ikaba ifite amabara arimo utudomo tw'umukara ndetse n'irindi rijya gusa nk'umuhondo.

Iyo ugeze muri Parike ya Nyungwe uhasanga inyamaswa zitandukanye z'inkazi harimo intare, ingwe ndetse n'izindi zitandukanye, biba ari byiza rero kujyana n'abantu babihuguriwe kugira ngo zitakurya.

Muri Parike ya Nyungwe usanga harimo inyoni nziza cyane ziri mu mabara y'ubururu, umuhondo ndetse n'ayandi. Aho zikurura ba mukerarugendo bitewe n'ukuntu ari nziza.

Muri parike y'Akagera uhasanga inyamaswa zitandukanye harimo n'inzovu, izi zikaba ari inyamaswa nziza cyane abantu benshi bakunda kubera ko ziba zishimishije kandi ni inyamahoro.

Agasimba kibera mu mumashyamba kitwa ingwe, kaba gafite amabara meza cyane abereye ijisho, ariko kakaba kagira amahane cyane ku buryo kakubonye gashobora kukurya.

Mu nyamaswa z'agasozi habamo n'iyitwa idubu akaba ari inyamaswa y'inkazi kandi igira amahane ku buryo iyo ikikubona ishobora guhita ikurya bityo ugasanga urangiritse, ni byiza rero kuzigendera kure.

Muri parike y'Akagera hano mu Rwanda usangamo inyamaswa zitandukanye harimo n'imparage, ziba zifite amabara meza y'umweru ndetse n'umukara bigatuma ba mukerarugendo bahora baza kuzitegereza.

Muri parike y'u Rwanda usanga hari ahantu hororerwa amatungo y'inkazi nk'intare, aho bazishyiriraho urugo cyangwa se uruzitiro ku buryo zitaharenga zikaba zajya kurya abantu.

Niba warageze muri parike ya Nyungwe, iyo bavuze impara n'imparage ubyumva vuba kubera ko wabibonye, uzi ukuntu ari byiza kandi biba bifite n'amabara meza.

Mu mashyamba yo muri parike y'Akagera usangamo inyamaswa zirimo n'idubu, akaba ari imwe mu nyamaswa zigira amahane kandi zidakunda kubona umuntu ku buryo ikubonye ishobora kukwirukankana.

Iyo ugeze muri Parike y'Akagera uhasanga utunyamaswa dutandukanye turimo imbwa, imisigaga n'utundi. Tukaba tuba tugendagenda dushaka ibyo twarya.

Muri Parike y'Akagera usanga harimo inyamaswa zigiye zitandukanye, iyo ubonye impara n'imparage ukabona amabara ziba zifite ukuntu ari meza uba wumva utahaga kuzireba.

Akanyoni kari mu gishanga kari mu mabara y'umutuku, umweru n'umukara, aho aka kanyoni kajya mu mazi yo mu gishanga kagakuramo ibikeri ndetse n'utundi tuntu akaba ari ibyo karya.

Mu mashyamba uhasanga utunyamaswa twinshi dutandukanye twiza cyane ku buryo tuba tubereye amaso kutureba, akari hano gafite ibara ry'igitaka ndetse n'iry'umweru ubona ko hari umuntu kari kwitegereza.

Ni byiza ko iyo ufashe umwanzuro wo kujya muri parike utagenda wenyine biba byiza iyo ujyanye n'abantu babishinzwe kubera ko haba harimo inyamaswa nyinshi zishobora kukugirira nabi.

Ni byiza ko abayobozi b'utugari ndetse n'imidugudu bashyiraho gahunda, yo kubwira abaturage bakajya bataha kare kugira ngo birinde inyamaswa, zishobora kubarya mu gihe cya nijoro batinze mu nzira.